Abantu benshi bagiye batandukanye bicaye muri salle nziza, bimeze nkaho wagirango bari mu nama. Bambaye imyenda myiza, salle ifite amakaro y'umukara, ameza abateretse impande atwikijeho ibitambaro byiza by'umukara, imbere kuri ayo meza hateretseho amacupa y'amazi, birasa neza rwose.

Abagabo n'abagore ubona bari kuganira ndetse muri bo hari umugabo ufite indangururamajwi wambaye ishati y'imirongo inyuranyuranamo, inyuma ye hari abagabo bambaye impuzankano y'ingabo z'u Rwanda ndetse hakurya hari inzu ubona ifite amatafari ndetse n'amadirishya by'ibara ry'umuhondo.

Abantu bameze nk'abari mu nama bambaye baje nziza z'uburuiru n'umweru, imbere yabo hari ameza hariho igitambaro cy'umweru, bambaye imyenda myiza igiye itandukanye, amashati, amashati aciye amaboko, amabaze, ndetse bamwe na bamwe banateze mu mutwe, bari kurebana, barishimye, barimo baraseka, baranezerewe.

Abagabo n'abagore biragaragara ko bari kwiga, bane baricaye undi arahagaze, uhagaze yambaye ipantaro y'ivu, ishati y'ubururu ndetse na karuvate na rinete, baramukuriye abicaye mu bigaragara bafite imashini imbere yabo, bicaye ku ntebe nziza z'umukara, inyuma yabo hari akameza gateretseho amazi.

Umugore uhagaze ku gatuti, wambaye ishati y'umweru, ijipo y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, afite indangururamajwi, ameze nk'aho ari gukora imbwirwaruhame imbere y'abantu. Hakurya hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umukara. Bahagaze ahantu heza rwose h'umukara ndetse ku bikuta harasa umweru.

Abagabo bicaye bagaragara ko ari bane bari kuganira, bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ameza ya ribuyu. Inyuma yabo hari igikuta cy'umuhondo gifite amarido y'umweru. Bafite uducupa tw'amazi imbere yabo.

Abagabo n'abagore bari mu nama imbere yabo hateretse amazi yo kunkwa bicaye ku imeza nziza kandi nabo bambaye imyenda mwiza igiye itandukanye amakoti y'ubururu, amakoti y'umukara ndetse n'umugore yambaye orange, bari munzu nziza isize amarange y'umweru n'umuhondo.

Abasore n'inkumi ubona bicaye ahantu rwose batuje bameze nk'abaje mu nama, imbere yabo hateretse akameza kariho utuntu dutandukanye, icyo kunywa amaterefone bambaye imyenda myiza baraberewe amapipiri y'ubururu, ndetse n'inyuma yaho hari amarido ubona mu rya shokora ryijimye rituje rimeze neza.

Abagabo ndetse n'abagore bameze nk'abari mu nama imbere yabo hari meza iteretseho ibikoresho bitandukanye harimo nk'amazi bambaye imyenda myiza ishati y'ubururu ikote ry'ubururu karavati ndetse bamwe muri bo bambaye n'amadarubindi.

Abagabo n'abagore bicaye ubona batuje bari mu nama imbere yabo buri wese hagiye hateretse imashini, inyuma y'aba bagabo hari abari gufata amashusho, bicaye mu ntebe nziza z'ivu ndetse ririho n'akabara ka oranje.

Abagore, abagabo ,abakobwa n'abahungu bicaye muri sale nziza, inyuma harimo nabandi bantu bahagaze bicaye ku ntebe zitukura ndetse ibirenge byabo bikandagiye ku itapi nziza y'ubururu. Impande yabo hari igikuta ubona gifite amabara meza ubururu, umweru harasa neza rwose.

Abagabo babiri basa nkaho bafite imbwirwaruhame imbere y'abandi, umwe yambaye ishati y'umweru gusa mugihe undi yambaye ishati y'umweru ariko yageretseho n'ikote ry'ubururu inyuma ye hari amagambo agaragara nkaho bari mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro byandikishijwe amagambo y'ubururu mugihe byo biri mu ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze bigaragara ko wagira ngo bari mu nama, bicaye ku dutebe tw'umweru bambaye imyenda itandukanye umutuku, umukara, karokaro, icyatsi inyuma yabo hari imodoka ziri mu muhanda zigenda.

Abagabo n'abagore bari mu nama bicaye ku ntebe nziza z'imikara, inyuma yabo hari abari gufata amashusho batandukanye ndetse abicaye bari mu nama imbere yabo atetse uducupa tw'amazi ndetse n'amamashini agiye atandukanye.

Abagabo n'abagore bari mu nama bambaye imyenda myiza, amakositime y'umuhondo ndetse hari n'abambaye impuzankano z'akazi. Imbere yaho hari imeza itwikiriye igitambaro kandi hateretse imbere buri umwe umwe icupa ry'amazi, inyuma urabona abandi bagabo bahagaze barasa neza rwose urabona ko biryoheye amaso.

Abagabo n'abagore baricaye baratuje bameze nk'abari mu nama, imbere yabo hateretse indangururamajwi ndetse n'agacupa k'amazi kuri buri wese, bambaye neza amashati y'amabara atandukanye inyuma hari uwambaye ishati y'amabara y'umuhondo, barasa neza rwose inyuma hari amarido meza afite amabara atandukanye yerurutse n'ayijimye.

Abagabo n'abagore bicaye bameze nk'abari mu nama, bicaye mu ntebe nziza rwose zegamirwa z'umukara imbere yabo hari ameza meza meza y'icyerekezo, bicaye mu nzu nziza ifite inkingi y'umuhondo inyuma yabo hari amarido y'umuhondo hasi hari amakaro biragaragara rwose ko bicaye ahantu heza hasukuye.

Umugore ufite imbwirwaruhame mubandi afashe muntoki ze indangururamajwi hakurya ye ibumoso hari abagabo babiri nabagore babiri bamuteze yombi, inyuma ye hari amashusho y'umweru hakurya hari imitako.

Inyubako nini nziza ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu. Ifite imbuga yubakishijwe amapave, ndetse n'ubusitani burimo indabo, ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana atandatu iherereye Kagarama.

Abantu batandukanye bicaye, basa nkaho bari mu nama, bari muri salle nziza hejuru harimo amatara y'umuhondo, kandi abo bantu bambaye imyenda igiye itandukanye, amashati y'umuhondo, umweru, ikoti rya bege, abamama bafunze imisatsi mu mutwe rwose barasa neza.

Abagabo n'abagore bameze nkaho bicaye mu nama, imbere yabo hari imeza itwikirije igitambaro cy'umweru iyo meza kandi iteretseho uducupa tw'amazi ndetse n'imashini, bamwe muri abo bagore barimo abambaye imipira y'imweru, amashati y'ubururu, imupira y'umuhondo ndetse inyuma yabo hari igikuta kiza ubona gisize irange ry'umuhondo.

Umugore uhagaze uri gutanga imbwirwaruhame mu bigaragara imbere y'abantu, imbere ye hateretse icupa ry'amazi, yambaye ikanzu y'ubururu ifite umukandara mu nda ndetse yambaye n'isaha, inyuma ye hari icyapa kizengurukijwe n'imigongo cy'umweru cyandikijweho amagambo y'umukara.

Abagabo n'abagore bari mu nama umugabo yambaye ipantaro y'ivu, ikote ry'ubururu, ishati y'umweru. Mu gihe umugore yambaye umukara n'umweru ndetse n'bandi bagiye batandukanye, bicaye ahantu heza imbere yabo hatetse akameza kariho udukoresho dutandukanye.

Hano ndahabona imihanda ibiri ibangikanye ya kaburimbo, harimo ibinyabiziga bike bigizwe na moto n'imodoka. Nanone kandi hagati harimo imirongo, y'abanyamaguru bambukiraho twita zebura korosingi.

Abagore n'abagabo benshi bicaye bameze nkaho bari mu nama bambaye imyenda igiye itandukanye ndabonamo abambaye ubururu, umutuku, umuhondo ndetse n'abari inyuma bahagaze. Imbere yabo hari akameza gafiteho ibitambaro by'umugondo ndeste n'ubururu hateretseho na terefone n'ajenda imbere n'ururabyo.

Umugore ufite imbwirwaruhame imbere y'abantu imbere ya buri wese hari amazi agiye ahateretse, hari imeza ifite amabara y'umweru n'ubururu, abateze amatwi bambaye umukara hasi ndetse n'ubururu hejuru, bari mu nzu nziza ifunze ifite amabara y'umuhondo ndetse n'ivu.

Abantu benshi bameze nk'abari mu nama bambaye neza amakoti meza amakaravate meza rwose baricaye baratuje bicaye muri sale iryoshye iryoheye amaso barasa nkaho bateze amatwi imbwirwaruhame y'umuntu ubari imbere kugira ngo bagire ikintu bahakura barasa neza rwose.

Umugabo usa nkaho afite imbwirwaruhame imbere y'abantu, yambaye ipantaro nziza y'ubururu na na n'umupira wa oranje w'amoboko magufi, afite indangururamajwi mu ntoki ze, hakurya hari ababyeyi basa nkaho bamuteze amaso cyangwa bamuhanze amaso, ndetse bicaye mu itete ry'amabara y'ubururu, umuhondo, icyatsi.

Abagabo n'abagore bicaye bazengurutse ameza imbere yabo hateretse amatelefone ndetse n'amamashini inyuma yabo hari amarido azinze kugira ngo akayaga gatambuke, bambaye neza rwose barakeye barabebewe.

Abagabo n'abagore bameze nk'aho bari mu nama, barimo abirabura ndetse n'uw'uruhu rwera. Imbere yabo hateretse amazi, amatelefone ndetse byose biteretse ku meza igaragara neza. Inyuma yaho hari urukuta ruriho televiziyo ndetse n'amarido.

Abagabo n'abagore bameze nk'abari mu nama imbere yaho ku mavi hateretse imashini zigiye zitandukanye, bicaye ahantu heza harimo amakaro ndetse no hakurya yaho hari amadirishya harimo ibirahuri byiza bimeze nk'ibifunguye nyuma y'ibirahure harimo indabyo zifite amabara agiye atandukanye.

Icyapa cya banki kigaragaza imikorere myiza ya banki, imbere yacyo hari amapoto y'amashanyarazi, hirya hari imodoka irimo igenda, inyuma y'imodoka hari inzu ubona imeze neza rwose.

Inzu nziza igeretse hafi gatanu. Isize amabara y'umweru ndetse n'icyatsi mu mpande, hasi yaho hari urugo rw'amatafari meza meza ya ruriba. Hakurya hari ibiti bitandukanye bifite amashami meza y'amabara y'icyatsi agiye atandukanye.

Abantu batandukanye barimo abagore bicaye mu modoka irimo ijyenda. Urabona ko bahuje ibiganiro, babiri muri bo baregeranye rwose baritandiye bafite n'amaterefone mu ntoki urabona ko bahuje. Hakurya yaho hari undi urimo ubareba wambaye ubururu hejuru ndetse n'umukara. Inyuma ye hari uwambaye ishati y'icyatsi, birasa neza rwose!

Akazu kari ku muhanda gafite amabara y'umuhondo, umukara, n'ubururu ndetse n'imirongo igenda inyuranyuranamo. Impande yaho hari amapave ashashe, ndetse inyuma yaho hari indi nzu bigaragara ko ari nziza. ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara.

Umunara mwiza cyane, ufite amabara y'icyatsi ndetse n'ay'umweru. Hirya y'umunara hari ibiti bifite amabara meza agitoshye, ndetse hakurya hari igicu gifite amabara y'ubururu n'ay'umweru.

Iminara itandukanye yose ni miremire, mumabara y'umweru n'umutuku. Hejuru yiyo minara hari ibicu ubona byumweru n'ubururu, harasa neza rwose urabona ko biryoheye amaso.

Umugabo umeze nk'aho ari mu kazi yicaye yegamye neza rwose, imbere ye hateretse imashini umugabo yambaye ipantalo ya kaki, ikote ry'ubururu, ishati ya karokaro ndetse yiyogoshesheje neza yambaye n'amadorobindi.

Umunara ugaragara neza cyane mu mabara y'umweru, umutuku n'umuhondo, hino yuwo munara hari ibiti bisa nkaho bifite amashami meza, ndetse n'amabara atandukanye, ku gicu hakurya harimo ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi.

Abagore babiri n'umugabo uri hagati, babiri muri bo bahugiye muri terefone, mugihe undi afite imashini impande ye, bombi bambaye udupfukamunwa, umwe uri imbere yambaye ipantaro y'ubururu ishati y'umweru, mu gihe umugabo yambaye ingofero y'icyatsi.

Umunara ukorotiriye neza rwose inguni zose, ni muremure ugera hejuru ururubakitse pe! Hakurya yaho hari ibicu by'amabara y'ubururu umweru ndetse impande zuwo munara hari ibyatsi bisa nkaho byijimye.

Umunara w'amashanyarazi ufite insinga zigenda zinyuranyuranamo hejuru umunara ufite amabara y'umweru ndetse n'umutuku hasi urubakiye bisa neza rwose, impande yaho hari akazu ubona gafungishije umuryango wijimye ndetse karasakaye hirya y'umunara ni uruzitiro rwabo hari inzu ubona isakaye neza.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye mu mabara y'umukara ndetse n'andi mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, hejuru hari ikirango cy'imigongo urupapuro rurasa neza rwose ndetse no hasi ndahabona ikirango cy'imigongo nk'iri hejuru.

Icyapa kigaragaza serivisi nziza z'irembo cyandikishijweho amagambo y'ubururu mu gihe umugabo afite telefone ari kutwereka ibiyirimo umugabo yambaye umupira mwiza w'amaboko maremare wa runiga w'ubururu mu bigaragara rwose iyi foto irasa neza.

Umugore w'inzobe yambaye umupira w'umuhondo urimo tuyenyeri afite imisatsi y'umukara impande ye hari icyapa cya emutiyeni imbere y'iwe hari ikindi cyapa cya bake kimanitseho ikindi cyapa hejuru, hirya y'aho hari umuryango bigaragara ko ufunguye n'abandi bantu bawukoreramo.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, urimo imodoka igenda ndetse n'izindi z'ibinyabiziga biparitse ku ruhande. Hari inzu ubona isa neza rwose y'umuzenguruko w'amatafari ndetse hasi yaho hari indi ubona y'umweru, hari abantu kandi bari kugenda babisikana impande z'iyo nzu.

Insinga z'amashanyarazi zigenda zinyuranyuranamo, ndetse hari n'itara ribonesha ku muhanda. Hirya yaho hari igipangu cy'amatafari ubona gisa neza, ndetse imbere harimo n'inzu isize amarange y'umuhondo, n'ibiti biri ku irembo ubona bisa neza rwose.

Ibikorwa bya leta bitandukanye, umuhanda mwiza ,inkengero zawo zisize amabara y' umukara n' umweru, munsi yaho hari inzira nyabagendwa y' abanyamaguru, mugihe hepfi hari ishyamba, ubona risa neza riryoheye amaso ,rifite amashami ashishe y' icyatsi, ndetse hashinze n' ipoto ijyana insinga z' amashamyarazi. Impande n' impande .

Ipoto y'amashanyarazi ifite insinga zigenda zinyuranyuranamo hagati yazo, hakurya y'iyo poto hari inzu igaragara neza rwose ifite amabara y'umuhondo ariko hakurya ku gicu biragaragara ko hijimye, wagirango ngo imvura igiye kugwa.

Inzu nziza cyane kandi ndende impande yayo hari ibiti by'umuriro kandi mpande y'ibyo biti hari indabyo bigaragara rwose ko zitatse iyo nzu hejuru yayo hari umurasire ukurura amashanyarazi.

Ibiti bimanitseho insinga z'amashanyarazi. Munsi yaho hari inzu ifite amadirishya y'umweru, ifite isize amaranjye y'umuhondo, isakaje n'amabati meza mw'ibara ryu ritukura, hirya yaho hari indi nzu imbere yizo nzu hari ibyatsi bifite amabara meza y'umuhundo.

Abantu iyo bambaye impuzankano usanga bagaragara neza. Ikindi kandi bituma ubatandukanya n'aband. Kuko baba bambaye imyenda yanditseho icyo bashinzwe. Udupfukamunwa tudufasha kwirinda indwara zandurira mu buhumekero.

Kigali Kibagabaga hari inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitanu. Ikodeshwa mu madolari magana abiri na mirongo ine, mu gihe kingana n'ukwezi kumwe konyine.

Abagore n'abagabo bari mu binyabiziga ndetse n'abandi bari kugenda n'amamguru hari ipoto y'insinga z'umuriro w'amashanyarazi. Hirya y'iyi poto hari ibiti bifite amashami meza agitoshye y'icyatsi hakurya hari amazu asakajwe amabati atukura ndeste hirya no hino y'ayo mazu hari ibiti.

Umurima mwiza ugaragara neza, uteyemo urutoki ndetse harimo n'amapironi y'amashanyarazi, hakurya yawo ndabona hari inzu nyinshi zigiye zitandukanye ariko zirasa nkaho zishaje.

Amapoto agiye atandukanye y'amashanyarazi ubona zigenda zinyuranyuranamo hagati yazo ndetse n'izindi poto ziriho amatara amurikira umuhanda hasi yazo hari ibiti ubona bisa neza mu mabara y'icyatsi n'amashami meza bigitoshye rwose.

Umuyoboro w'amashanyarazi mu kirere hasi yaho hari inzu ebyiri zisa nk'aho ziteganye zisakaje amabati meza meza agezweho y'umukara, hanze hari igipangu ntago giteye irange ruguru yaho hari igiti, uditi dusa neza turimo amashami rwose atashye aryoheye amaso.

Inkengero z'umuhanda wa kaburimbo, ubona zifite amabara y'umukara nay'umweru, impande yaho hari ubusitani ubona busa neza buryoshye ndetse n'ipoto iriho insinga z'amashanyarazi zigenda zinyuranyuranamo. Hirya yaho hari inyubako ubona igeretse, isa neza, mu mabara meza y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo impande yawo hari ubusitani bwiza busa neza buryoshye, muri ubwo busitani hateyemo amapoto abiri y'amashanyarazi, hirya y'ayo mapoto kandi hari inyubako isa nkaho ishaje ariko ifite amabara y'umuhondo ndetse n'amabati y'umutuku hino hari indi nziza isa nkaho iri mu gikombe hasi.

Ibiti bisa neza, bifite amashami meza atoshye, hejuru yabyo ndahabona ipoto ifite insinga z'amashanyarazi zigenda zinyuranyuranamo, hakurya y'ibiti ndahabona umudugudu mwiza utuye mu ishyamba risa neza rwose, impande y'iri shyamba ndahabona kaburimbo.

Umugabo arimo aritegereza ibintu biri imbere ye, yambaye umupira w'umukara uririmo imirongo ndetse yambaye ingofero nayo iririmo imirongo ya oranje, hakurya y'iyo nzu hari indi nzu bigaragara ko ifite ibirahuri by'umukara ahantu harasa neza.

Abagabo buriye bari gukora umuriro w'amashanyarazi hari insinga ziri kugenda zinyuranyuranamo, bambaye amasarubeti y'ubururu n'ingofero z'umuhondo kakurya hari igicu gisa nk'aho kijimye kiri hafi gutanga imvura, hari kandi igiti gisa neza gifite amabara yijimye namashami y'icyatsi.

Amapoto abiri y'insinga z'amashanyarazi munsi yaho hari inzu isakaje amabati atukura, ndetse mu rubavu rwayo hari amatafari adasize irangi, mugihe imbere hariho irangi ry'umweru. Kuri kaburimbo hari abantu bahagaze, ndetse hari n'umutaka wa emutiyeni impande y'umuhanda hari imodoka iparitse.

Igokorwa cya leta cyo gutanga amashanyarazi. Hari ipoto nziza ndende ifite insinga zigenda zinyuranyuranamo ndetse impande yaho hari n'indi poto itanga urumuri mu muhanda. Iburyo n'ibumoso by'iyo poto hari inyubako nziza rwose ubona ko ari iz'ubucuruzi.

Hano ni mu muhanda ndahabona sitasiyo yasanse hino yaho hari ibiti, mu mpande yaho hari indabyo nziza z'amabara y'icyatsi hari ibinyabiziga bibiri biri kugenda mu muhanda ndabona ari ibya moto. Umupapa arimo aragenda agiye guhura na mama we bahure, ku kinyabiziga cya mbere hicayeho umugabo wambaye umupira w'icyatsi ipantaro ya kaki ndetse bombi bahetse n'ibikapu mu mugongo.

Umunara w'amashanyarazi. Hino y'uwo munara hari akazu k'amatafari. Hepfo kandi hari amazu akuze ashaje rwose bigaragara, ndetse impande y'ayo mazu hariyo urutoki rusa nk'aho rwishwe n'izuba.

Umuntu utwaye igare yambaye umupira wa oranje ndetse n'ipantaro y'umukara hirya ye, hari rigore itwara amazi y'amabuye hirya y'iyo rigori hari ipoto y'amashanyarazi inyuma n'imbere y'iyo poto hari ibyapa byo ku muhanda.

Igiti kimanitseho insinga z'amashanyarazi, hirya yacyo hari imodoka nyinshi ubona ziparitse ku murongo, ndetse hakurya hari umudugudu mwiza, usa neza, uteye mubi biti bihagaze, ubona rwose hasa neza. Amwe muri ayo mazu asize amabara y'umuhondo, andi ni umweru, muri make ni umudugudu uryoheye amaso.

Inyubako nziza ebyiri, hari n'indi ya gatatu idasakaye, isa nk'aho ari sitade, hasi hashashe amapave, n'imbere y'amapave hari utubuye twiza rwose, inyuma y'inyubako hari igiti, iyi foto rwose iragaragara neza cyane.

Abagabo bahagaze bari kwaka serivisi mu idirishya ndetse hari n'abandi bicaye, urabona ko batuje bameze neza, aho bicaye hari amakaro ndetse ni mu nyubako ubona ari iy'amatafari isakaye neza rwose.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Abagore n'abagabo bari gushaka serivisi bameze nk'aho bari kwa muganga, hari abiyicaye bategereje ndetse n'abandi bahagaze biteguye kwakirwa, bari mu nzu nziza ifite amatafari ndetse hino hari umugabo wundi mbona wambaye ikoti n'ishati y'ubururu afite telefone mu ntoki.

Abantu batandukanye, abagore n'abagabo bari mu cyumba gikikijwe n'amabara y'umuhondo, umweru, umutuku ndetse hasi hashashe amakaro. Iyo nzu ni iy'amatafari meza ahiye. Ku mpande z'iyo nzu ndetse n'imbere ndani, harimo amabara y'umweru ndetse n'ay'ivu.

Muri kaburimbo ndahabona ikinyabiziga kirimo kigenda, hakurya na moto yicaye abantu, abagabo n'abagore bari mu muhanda bagenda, hari inzu nziza rwose isa neza mu mabara meza yijimye n'ayererutse, hanze hari icyapa ndetse n'akazu kari emutiyene gahagazeho abantu basa nk'abari gucuruza.

Kigali Kibagabaga hari inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitanu. Ikodeshwa mu madolari magana abiri na mirongo ine, mu gihe kingana n'ukwezi kumwe konyine.

Inzu ifite kizimyamwoto y'ibara ritukura hanze, umuryango w'inzu ni ivu, imbere harasa nkaho harimo utubati tw'ibyuma dusize ibara ry'ivu, hanze y'inzu ni ibara ry'umuhondo mugihe hasi ari amakaro y'umukara.

Abarwayi bari kwa muganga ubona ko barembeje n'uburwayi rwose, baricaye bamwe, abandi baragagaze, ndetse undi ari mu kagare. Ibitaro kandi bisize irangi ry'umuhondo ariko ku idirishya ni umweru. Umugabo uhagaze wambaye ikote ry'umutuku n'ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'icyatsi yambaye n'ingofero.

Abagabo babiri bari kuri gishe, uri inyuma wambaye ishati yumukara ameze nk'aho yabonye amafaranga ye, ari kuyabara kugira ngo arebe ko yuzuye. Uwambaye ishati y'umweru we ntabwo arayafata yose; hari ayo amajije gufata, andi aracyari kuri gishe.

Inyubako nziza, wagira ngo ni ikigo cy'amashuri, ariko si cyo. Imbere yaho hari ubwatsi bwiza, butoshye, busa neza, ndetse buteyemo n'ibiti by'umukindo. Hakurya mu kuboko kw'iburyo hari amatara asa nk'amurikira mu muhanda. Hari n'imodoka ziparitse ku nkengero zaho.

Inzu nziza iri ahantu hatuje ifite amabati atukura, ndetse iriho n'amatafari n'irangi ry'umuhondo. Impande yaho hari hashashe amabuye aparitseho imodoka y'imbangukiragutabara. Hakurya y'iyo nzu hari ubusitani urabona bwiza n'amazu menshi meza n'insinga n'amapoto insinga z'amashanyarazi, ubona muri make n'ifoto isa neza iryoshye.

Umugabo usa neza bigaragara ko yambaye umwambaro wakazi ikanzu itukura, ishati yumweru, ndetse na karuvati inyuma ye hari irange ry'umweru biragaragara rwose ko asa neza yaje mu kazi yambaye arikwije.

Gereza ya Nyanza, byanditse kuri porutayi, hejuru byandikishije umukara ariko imbere ni mu ibara ry'umweru, igipangu gifite ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo. Hakurya haragaragara ishyamba ry'inzitane risa neza rwose.

Igororero ririmo abagororwa batandukanye, n'inzu ubona ndende rwose n'amatafari ahiye, abo bagororwa bari mu nzira bagenda, ndetse inyuma hari n'umuyobozi wabo wambaye imyenda ya kaki, imbere y'abagororwa hari akazu ubona kazamutse kameze nk'umunara, gasakaye hejuru n'ibati ritukura.

Umugabo wambaye umwambaro w'akazi, yambaye ikanzu nziza itukura ndetse irimo umukara n'umweru, yambaye ishati nziza y'umweru na karuvati y'umukara. Uyu mugabo rwose mu bigaragara yambaye umwenda mwiza w'akazi arasa neza.

Urupapuro rugaragaza itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, ruriho ikirangantego cyiza gifite amabara atandukanye ndetse n'ibirango bikirimo muri urwo rupapuro. Handitseho amagambo meza yo mu ibara ry'umukara ndetse n'andi hasi manini mu ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye umwambaro mwiza w'akazi yiyogoshesheje neza, yambaye ishati ndetse na karuvate y'umukara, ikoti yarengejeho cyangwa ikanzu ni umutuku, inyuma ye harasa umuhondo.

Umuhazni Kizito yambaye ishati y'iroza. Arimo arasoma agatabo inyuma gafite ibara ry'ubururu. Hirya ye hari abantu bameze nk'abanyeshuri bari kumwitegereza rwose yicaye ku ntebe yayindi y'igiti cyegamirwa.

Abagabo babiri bicaye neza rwose bigaragara ko bambaye umwambaro w'akazi. Ku meza hateretseho ingofero, uducupa tw'amazi, umwe muri bo afite indangururamajwi ameze nkaho hari icyo ari kubwira abamuri imbere, inyuma yabo hari televiziyo nziza iri ku gikuta cy'umuhondo.

Abagabo bicaye, bambaye imyenda y'iroza, ndetse hari n'undi ubahagaze impande muremure, wambaye ikanzu y'umukara. Bicaye ku ntebe zegamirwa, z'ibiti, ndetse bari mu nzu ifite amarangi y'umuhondo.

Abagabo bicaye bambaye impuzankano isa, imbere yabo hari imashini, ndetse kumunwa bambaye udupfukamunwa inyuma hari umugabo umeze nk'ubarinze ndetse n'undi wambaye ikote, bari mu cyumba gifite amabara ya oranje barasa neza.

Inzu igurishwa iherereye i Kigali Kibagabaga ku giciro cya miliyoni ijana na mirongo ine ku mafaranga y'u rwanda nziza hose ifite amakaro kandi ikinze neza.

Iyi ni inzu ikoreramo ikigo kizwi cyane mu Rwanda mu gutanga ubwishingizi, gikoresha amabara y'umweru n'ubururu kandi gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, si ubuzima gusa kandi batanga ubwishingizi ku bintu bigiye bitandukanye, imitungo mu gihe umuntu imitungo yahuye n'ikibazo cyangwa se ikinyabiziga cye cyahuye n'impanuka baramufasha kugirango yongere asubirane ibyo yahombye.

Abagabo benshi bari muri gereza, bambaye amakabutura y'iroza ndetse n'amashati y'iroza. Hakurya hari igikuta kirekire cy'amatafari ndetse kuri icyo gikuta hakingishijwe urugi rw'icyatsi.

Abagabo n'abagore bicaye ubona ko rwose bateze amatwi bameze nk'abari mu nama bicaye ku ntebe z'imbaho ndetse imbere yabo hari umumama ubahagaze imbere afite imbwirwaruhame arimo abagezaho, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'amazu ubona hakurya agiye atandukanye.

Abagororwa bicaye ku ntebe ni batatu bambaye impuzankano yabo barasa neza bicaye ku ntebe nziza igezweho yegamirwa y'urubaho ndetse babiri muri bo bameze nkaho bari kuganira mugihe uwa gatatu yifashe neza yambaye n'isaha ku kuboko.

Abagabo n'abagore ubona ko bicaye ahantu heza rwose bameze nk'abari mu nama imbere yabo hari ameza yumukara, ashasheho ibitambaro by'umukara ateretse amazi yo kunywa, urabona rwose ko bari muri sale nziza hakurya yaho hari amabara y'umuhondo imbere yaho hari amabara y'umweru.

Umugabo bigaragara ko yambaye umwambaro w'akazi, yambaye rinete arimo arareba imbere, yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'ubururu, inyuma ye ku gikuta hari ibara risa nkaho ryerurutse harasa neza rwose.

Abagabo ubona ko wagira ngo bari mu nama, ni babiri baricaranye bafite imbwirwaruhame. Bombi barakuze, bombi bambaye rinete kandi bose bambaye amakote asa neza rwose. Bari mu nzu mu bigaragara ko wagira ngo imbere yabo, hari abandi bari kuganira na bo.

Icyumba kiza kirimo abagabo benshi n'abagore bicaye ndetse n'abandi bahagaze, uri imbere afite idarapo ry'u Rwanda mu ntoki, igikuta kiragaragara ko kirimo amabara meza y'umuhondo n'ay'icyatsi, birasa neza rwose.

Abantu benshi bicaye ndetse n'abandi bahagaze, hagati yabo hari undi mugabo mbona uri gutanga imbwirwaruhame wagirango arimo arisobanura, yambaye imyenda y'iroza, mu gihe hakurya y'abantu mbonayo inzu ndetse impande y'inzu hari ishyamba ubona rifite amashami ndetse n'amababi by'icyatsi bitoshye bimeze neza, imbere y'abicaye hatetse ameza ariho ibikoresho bitandukanye.

Kizimyamwoto ebyiri zegeranye, imwe ni iy'umweru, indi ni iy'umutuku, hariho n'insinga zigenda zinyuranyuranamo, inkingi zihagazeho ni iy'umuhondo, hasi hashashe amakaro y'umweru, hirya no hino hari amadirishya afite ibirahure by'umweru, arafunguye.

Uruzitiro rw'icyuma rw'umweru hirya yarwo hari kaburimbo hakurya no hakuno ya kaburimbo hari ibiti cyangwa se indabyo ubona ko zishishe neza rwose, hakurya ya kaburimbo hari inzu y'amatafari ubona nziza iryoheye amaso.

Umugabo ufashe ku cyuma, wagira ngo n'icyuma gitanga amazi ya robine. Uwo mugabo ameze nkaho yambaye imyenda ya polisi, ahagaze munsi y'igiti ubona gishishe rwose gisa neza, hakurya y'icyo giti hari urugo rw'amatafari ndetse haragaragara n'inzu ifite amarange y'umweru isakaje amabati y'umweru.

Kizimyamwoto ifite urukinga cyangwa se umugozi wayo uyizengurutse, umugozi uri mu ibara ritukura, hasi yaho hari icyapa kiriho umugore watangaye cyane rwose ubona wishimye, byombi biri mu nzu ubona isa neza ifite amabara y'umuhondo impande n'impande ndetse impande yaho harikapa kandikishijweho amagambo y'umukara.

Inyubako nziza z'icyerekezo zigezweho, imodoka ziparitse, ibiti byiza bishishe kuruhande bifite amashami meza n'amababi meza, amapave hasi ashashe ku murongo mubigaragara rwose ifoto nziza iryoheye amaso.

Abagabo bambaye impuzankano bameze nk'aho bari kuzimya inkonge bose bafite imigozi bari gukurura, ndetse muri iyo migozi hari kuvamo amazi cyangwa ibyuka biri imbere yabo bahagaze ahantu hameze nk'aho hari ivumbi imbere yabo hari ibiti.

Ibiro bya polisi biri mu nzu y'umuhondo hose. Ariko imiryango ndabona ari umukara, amadirishya y'ibirahure meza. Hanze hari ubusitani bukikijwe n'indabyo zisa nkaho ari umuhondo n'icyatsi bivangavanze, hakurya yaho hari abapolisi babiri bahagaze bameze nkabari kuganira.

Abantu babiri bahagaze bari kuganira ku mapave ndetse n'abandi bari mu muhanda nyabagendwa, hakurya hari inzu igeretse kenshi cyane, isize amabara y'umuhondo ndetse hakurya yayo hari ishyamba rwose ririmo ibiti byiza, biragaragara ko ishyamba riri rishyashya rirashishie rimeze neza.

Kizimyamwoto ifite amabara y'umutuku, ndetse n'igipapuro cy'umweru, cyandikishijeho amagambo y'umutuku. Iteretse kandi cyangwa yegetse ku gikuta cy'umuhondo; hasi yaho hari amakaro. Impande yaho, hari amabara y'umukara ndetse na oranje.

Imodoka za polisi ebyiri ziparitse ziparitse zose zireba imbere kandi ziri aho ziri ni kumapavi, inyuma yazo hari inzu ubona isize amarange meza umuhondo, ivu ndetse n'ibirahure ubona bihanaguye neza.

Kizimyamwoto ebyiri, iyo hasi n'iyo hejuru, imwe n'iya beje cyangwa se umweru wijimye, indi n'iy'umutuku, bifashe ku nkingi isize amarange yijimye, hirya y'iyo nkingi hari imikindo cyangwa se ubusitani busa neza.

Urupapuro r'wumweru ruriho abagabo batatu bameze nk'abagiye gutorwa. Rufashwe n'umumama ufite impeta ku maboko, ndeste yambaye n'agapira k'amaboko maremare. Urwo rupapuro ni urw'umweru, ruteretse mu meza ariho igitambaro cy'icyatsi.

Umuyobozi w'igihugu Paul Kagame ndetse n'umudamu we Jeannette bambaye neza amabara meza ajyanye, inyuma yaho hari undi mu mama wambaye umukenyero n'umwitero utukura, ndetse uhagararanye n'abandi bagabo barimo baratambuka, ndetse n'inyuma yaho hari abandi bantu ubona basa neza rwose, ku gikuta hari ishusho y'umutako irimo mu muzenguruko.

Abantu bari mu nama barimo baraganira baranezerewe ku maso bambaye imyenda myiza umuhondo, ubururu bwijimye ndetse n'umweru bari munzu nziza hakurya igaragaza amabara y'ubururu.

Ifoto ya Habyarimana, wabaye umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda. Yambaye ikote ryiza ry'ubururu, ishati y'imirongo ihagaze n'itambitse ndetse na karuvate nziza, inyuma ye harijimye ariko harimo ibara ry'icyatsi.

Umugore utanga serivisi nziza za leta yambaye umweru hejuru afite imbwirwaruhame imbere ye ndetse n'imashini y'akazi, afite agasatsi keza ka natirere, arakeyeye rwose yicaye mu ntebe nziza z'umukara.

Umugabo wiyogoshesheje wazamuye akaboko, wambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'umukara ndetse na karuvati y'ubururu, imbere hakaba hari mikorofone, inyuma ye hakaba hari dolise y'amashokora ndetse munsi hakaba hari amagambo yandikishije inyuguti z'umweru, handitseho Dogita Utumatwishima Ja, munsi hakaba hari n'undi.

Abagore bameze nk'aho bari mu nama, uwo tubona imbere yacu yambaye ikoti ry'ubururu, imisatsi igwa inyuma, yambaye amadarubindi, afite indangururamajwi impande ye, ndetse n'icupa ry'amazi rimuteretse impande. Afite n'abandi benshi bamuri inyuma bicaranye.

Umugabo uri kwiyamamaza yambaye umupira w'umweru, ndetse abamukurikiye bambaye imipira y'imituku n'amabara y'icyatsi. Ahagaze mu itente y'umweru, ikikijwe n'akabara k'umuhondo gukomeza inyuma ndetse n'icyatsi.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu hose n'umupira w'umweru imbere ahagaze imbere y'indangururamajwi, inyuma ye hari abantu bahicaye mu bigaragara hari ibyo afite ari kubwira abantu, inyuma y'abantu hari icyapa cya emutiyene ndetse n'icyapa cya banki y'abaturage.

Abagabo n'abagore bari ku murongo ugororotse barashaka kwinjira mu cyumba gisa nk'aho gifunguye bashakamo serivisi, iyo nzu ifite amatafari ndetse n'amadirishya y'ubururu isizeho n'ibara ry'umweru bari mu twatsi dusa neza dutoshye.

Umugabo wicaye yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, karavate itukura. Ariyogosheshe rwose arasa neza, impande ye hari ibendera ry'igihugu cy' Urwanda. Inyuma ye hasize irangi ry'umweru.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka Nini ipakiye imizigo rwose iruzuye no hejuru ,impande y' uwo muganda hari umugabo ubona wambaye imyenda yakazi ndetse hakurya yawo hari ibintu birebire bishishe bisa neza ndetse n' urutoki imbere y'imodoka.

Imodoka nziza nini cyane kandi ndende iparitse ku nzira y'abanyamaguru, hasi hari amapave ku cyapa kiri ku nzira y'abanyamaguru kirimo amabara ya oranje ibyanditsemo ni umweru ndetse n'ubururu imodoka irahaparitse irimo iragenda.

Imodoka nini cyane iri mu muhanda iri kugenda ibisikana n'ibindi binyabiziga, imbere yayo hari umugabo utwaye igare ndetse uhetse n'undi, hino y'umuhanda hari umuyoboro w'amazi ndetse hejuru yaho hari n'icyapa cya mitsingi, imbere y'umuhanda hakurya hateye ibiti byinshi byiza rwose ubona ko biryoheye amaso.

Aho imodoka ziparika ari nyinshi. Zirimo ari amoko atandukanye, abagenzi bagenda banyuranamo, hakurya hari inyubako zigiye zitandukanye, zisa neza rwose, ndetse ndanabona ipironi y'umuriro w'amashanyarazi hakurya, ifoto irasa neza kabisa.

Inzira nyabagendwa ya kaburimbo irimo umugabo uhetse ibintu ku igare yapakiye rwose, hino ya kaburimbo hari umuyoboro w'amazi, mugihe hakurya hari ibiti ubona bisa neza bifite amashami y'icyatsi ubona biryoheye amaso.

Ibinyabiziga bibiri biri mu muhanda bijyenda byose bitwaye abantu. Hakurya yaho hari ibiti bisa nkaho bishishe bisa neza rwose, ndetse inyuma yaho hari imodoka ziparitse ndetse n'ikindi kinyabiziga gitoya. Inyuma y'imodoka y'ubururu hari ishyamba ubona risa neza rwose no hakurya y'ishyamba hari andi mazu ubona hari umudugudu usa neza.

Mu nzira nyabagendwa harimo abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye. Bimwe mu mizigo mbona harimo imifuka yegetse, ndetse n'ibikapu biteretse hejuru. Hari abantu bari ku murongo, bari gushaka kwinjira muri bisi nini. Iyo bisi ifite amabara y'icyatsi, umweru, ndetse n'ibara ry'ubururu hagati.

Umuhanda munini w'umukara nyabagendwa, urimo ibinyabiziga bitandukanye, ndabona imodoka ndende y'umutuku, imbere y'imodoka hari umugabo uri ku kagare, imbere y'uwo mugabo hari ibiti binini bigera hejuru bifite amashami meza atoshye kandi ruguru y'ibyo biti hari amazu ubona rwose ari ruguru y'umuhanda ku mukingo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigenda bitandukanye biri kugenda mu cyerekezo kimwe, hakurya y'umuhanda hari abagenzi ubona bari kugenda mu nzira zabo zabugenewe, hirya yabo hari inzu ubona rwose isa nk'ikuze ishaje.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu rutandukanye imodoka z'ubwoko bwose bisi nini ndetse n'uduto, hakurya yaho ndahabona ikigega cy'amazi gifite ibara ry'ubururu, hakurya yaho na none kandi hari insinga z'amashanyarazi ubona zigenda zinyuranyuranamo.

Ikoranabuhanga ni ryiza ryakemuye byinshi ndetse ryatugejeje kuri byinshi mu iterambere, icyo ushatse gukora cyose iyo ugikoze oniliyini cyangwa se ukagikorera kuri mudasobwa uba wizeye ko byanga bikunda kizageraho kigomba kugaragara kandi kikagaragarira ku gihe kigasubizwa neza.

Umujyi urimo abantu, urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, ba nyir'ibinyabiziga bambaye amajiri y'imihondo ndetse n'ubururu, mu mutwe bafite ingofero z'ubwirinzi, hakurya yabyo hari inzu nziza rwose ubona ndende z'ubucuruzi, iyi foto irasa neza rwose.

Imodoka nziza iri mu muhanda irimo iragenda. Hagati na hagati mu muhanda harimo jaridie nziza cyangwa se umurima w'indabyo, uryoheye amaso. Hakurya ya kaburimbo hari ibiti bishishe bisa neza biryoshye, ndetse imbere yazo yabyo, harimo uruzitiro rw'ubururu.

Abantu bari mu muhanda batwaye ibinyabiziga bitandukanye, ndetse hirya yaho hari inzu isize amabara meza ku madirishya amabara y'icyatsi, ku gikuta k'inzu hari amabara y'umuhondo, ndetse hari n'ibyapa bigiye bitandukanye. Imbere y'iyo nzu kandi hari n'indi hakurya isakaje amabati y'umukara.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigenda ndetse n'ibindi biparitse hakurya y'umuhanda. Munsi y'umuhanda hari igiti ubona kimeze nk'icyavoka gifite amashami atoshye. Ruguru yaho hari amazu asize amarangi y'umuhondo ndetse no hakurya yaho harindi ubona iteye umucanga. Hakurya y'aho hari ishyamba ubona risa neza.

Umuhanda munini nyabagendwa w'umukara urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye moto ihetse abagenzi bambaye n'ingofero mu mutwe, hagati mu muhanda harimo harimo ipoto ndetse hakurya hari ipironi y'umuriro, hakurya y'ipironi hari ishyamba rinini rinini ry'inzitane ubona risa neza rwose.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye bigenda bibisikanaho bimwe muri byo ndikubona mo rifani itwawe n'umugabo wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'umupira w'ubururu imbere yayo harihoho hakurya y'umuhanda hari ipoto icanira mu muhanda ndetse hakurya yayo hari ibiti bigororotse neza bifite amabara ashishe.

Umuhanda wa kaburimbo nyabagendwa. Urimo ikinyabiziga cy'amapine atatu. Ugitwaye yambaye ipantaro yijimye, umupira w'umukara, ndetse n'ingofero y'ubwirinzi mu mutwe. Hakurya y'umuhanda hari ibiti ubona bihagaze rwose, ubona bifite amashami meza atoshye.

Imodoka ziparitse ari ebyiri, ritiko ndende ndetse hari n'abagabo bazihagaze impande, impande y'iyo modoka hari akazu ubona kameze nka ekwiti, inyuma y'akazu hari umunara ubona muremure w'amashanyarazi, hakurya hari amapoto atanga urumuri, hakurya y'amapoto hari ishyamba ry'inzitane ubona rinini kandi rishishe risa neza rwose.

Umukobwa usa neza uhagaze wambaye ikote n'ishati y'umweru mu maso n'inzobe afite imisatsi mu ntoki afitemo akantu kameze nk'impano bamuhaye, mbere ye hariho amagambo yanditse m'ururimi rw'igifaransa.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo abantu bagiye batandukanye, ibinyabiziga bigenda binyuranyuranamo ndetse n'ibindi biparitse ku ruhande. Hakurya y'aho, hari ibiti bihagaze neza, birebire, ubona bikiri bishyashya, bitoshye. Iburyo n'ibumoso hari inzu z'ubucuruzi, ubona zifitemo urujya n'uruza rw'abantu.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga bigenda binyuranamo, hakurya hari n'ikindi giparitse ndetse munsi y'umuhanda hari ishyamba ubona ririmo ibiti byinshi, byiza, biryoshye ndetse impande y'umuhanda hari inzu ubona nziza ya konoshi, isize irangi ry'umuhondo.

Iyi ni imodoka ya dayihatsu iri mu muhanda wa kaburimbo ifite shitingi y'ubururu ndetse ihambiririje n'imigozi, hirya y'iyo modoka hari ibiti bihagaze neza rwose bifite amashami meza ndetse n'amababi agaragara nk'atoshye.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda, abantu bahagaze imbere yaho, hari abambaye imyenda y'ubururu, imyenda y'umweru, imbere yaho hari ibindi binyabiziga biparitse, ndetse n'inyuma hari ipoto y'amashanyarazi n'andi mazu menshi ari impande yaho.

Umuhanda mwiza urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye bigenda. Impande yaho hari ibindi binyabiziga biparitse. Ibiti bihagaze, ubona bisa neza, bifite amashami y'icyatsi, ndetse n'indabyo z'umutuku. Hakurya yaho, hari izindi modoka ziparitse, ndetse n'inyubako ndende zigeretse z'ubucuruzi.

Abayobozi bicaye bari munama, imbere yabo hari ameza buri wese afite igitabo ndetse n'imashini n'amazi yo kunywa.

Imodoka zihetse ibintu bitandukanye, imbere yaho hari indi wagira ngo bari kuyipakurura ndetse n'abantu bahagaze ku ruhande, impande ya hari inzira nyabagendwa y'abanyamaguru, ruguru y'umuhanda hari ishyamba, ubona rishishe ry'ibiti bihagaze rwose bisa neza, imbere cyane urabona hari amapoto acanira mu muhanda.

Imodoka mu muhanda nyabagendwa irimo iragenda, hakuno y'umuhanda hari umuyoboro wamazi udapfundikiye wose, hakurya hari ibiti ubona birebire bisa neza, hirya y'ibiti hari inzu y'umugongo isakaje amabati akuze.

Ubu rero n'uburyo umuntu yishyura akoresheje ikoranabuhanga nawe urabona rwose imyirondoro y'iwe amazina, nimero za konte ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ushobora kwishyura rero utumiza ibintu hanze cyangwa mu kindi gihugu.

Imodoka nini cyane iri mu muhanda wa kaburimbo, ifite amabara y'umweru, ubururu, umuhondo na orange, hakurya yaho hari ibiti bihagaze neza rwose bifite amashami meza ndetse n'amashami atoshye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hirya no hakuno hari abagenzi bawugendamo mu muhanda w'abanyamaguru. Hino y'umuhanda har'inzira y'amazi ubona idasakaye yose. Mu gihe hakurya y'umuhanda hari ibiti byiza bishishe, ubona biryoheye amaso.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo ibinyabiziga ibito n'ibinini, biri kugenda mu cyerekezo kimwe, hakurya yaho hari ibindi binyabiziga biparitse ndetse n'inzu nziza z'icyitegererezo hagati h'izo nzu hari umukindo ubona usa neza rwose.

Aho imodoka nyinshi ziparika zaba indende cyangwa se ingufi, hirya yaho ndikubona abakozi bakora muri iki kigo bambaye amajire yabo, harimo n'abandi bantu bari kugenda impande n'impande, hakurya hari umukingo ugaragaza ko ari uw'amabuye.

Imodoka zihetse imizigo, zose zirapakiye no hejuru, ziri mu muhanda ziragenda, hirya hazo, ndahabona umutaka n'aba n'umugore uhagaze impande y'umutaka, hirya y'umutaka hari inzu ndende isize amabara ya oranje, hirya y'inzu ya oranje hari igiti ubona gifite ashami meza, gitoshye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigenda bibisikana kimwe ku kindi. Harimo n'umunyamaguru uri kwigendera rwose mumuhanda wiwe, yambaye ipantaro y'umukara inkweto y'umukara n'umweru, umupira hejuru w'umukara ndetse n'ingofero y'umukara, afite terefone ku gutwi. Hakurya y'umuhanda, hari ibiti ubona bisa neza birebire bishishe, ndetse hino y'uyu mugabo hari umuyoboro w'amazi.

Umugabo arimo arakora isuku ku muhanda, afite ingorofani, igitiyo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, imbere ye hari imodoka bigaragara ko iparitse, hakurya hari umukindo ubona ko rwose umeze uteye neza, hari n'akandi kazu kari imbere ye gafite amabara y'icyatsi, gasakaje ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga kinini cyane gifite amabara y'icyatsi, hirya ya kaburimbo hari ibiti birebire bifite amashami y'icyatsi ubona bisa neza, naho hino y'umuhanda hari umuyoboro w'amazi.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigenda binyuranyuranamo hino yaho hari umuyoboro w'amazi udatwikiriye wose, mu gihe hakurya hagaragara ibiti bisa neza birebire bifite amashami y'icyatsi, ndetse hakurya yabyo hari inzu zigiye zitandukanye.

Abantu batandukanye bagenda banyuranyuranamo bafite ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse harimo abambaye itaburiya y'ubururu igera hepfo uwicaye ku kinyabiziga yambaye ingofero y'umuhondo hakurya hari umugore wicaye wambaye umupira w'umuhondo ndetse hari n'inzu isize amabara y'icyatsi isakaje amabati y'ubururu.

Imodoka ziparitse kumurongo umwe zifite amabara y'umweru n'umuhondo, hirya hari abagabo ba kunyuranyuranamo bagiye batandukanye bambaye ipantaro y'umukara, ishati y'amaboko maremare, ikobo y'ubururu ndetse n'umupira mubitugu bambaye n'ingofero harasa neza rwose.

Umuhanda nyabagendwa w'akaburimbo urimo moto, urimo imodoka nini zitwara abagenzi ndetse hakurya hari ibiti ubona bishishe bisa neza, ipoto y'amashanyarazi, hakurya yaho hari inzu ubona zifite amabara y'umuhondo zisakaje amabati y'umukara.

Umuhanda nyabagendwa urimo abantu bari kugenda ndetse n'imodoka ziparitse ku ruhande. Hirya y'imodoka ndi kuhabona igiti kirekire gifite amashami ndetse n'amababi meza y'icyatsi. Umugore ndi kubona acyenyeye igitenge, agashati k'umutuku ndetse n'igatambaro mu mutwe cy'umuhondo, n'akantu mu ntoki.

Kaburimbo nziza irimo ibinyabiziga bitandukanye iby'amapine atatu n'iby'amapine ane bimwe bifite ibara ry'icyatsi ibindi ubururu, hakurya ya kaburimbo hari abantu ubona babiri bafatanye rwose bari gutembere, hakurya no hakuno hari ibyatsi ubona bisa neza bishishe bitoshye hino ya kaburimbo hari umuyoboro w'amazi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bameze nk'abari kuganira, hari ibikorwa bya leta byinshi bitandukanye, ibikinisho by'abana, aho abana bakinira, hakurya yaho hari inyubako nziza y'icyitegererezo, ifite amarangi y'umuhondo, ndetse n'ahandi hari ibirahuri gusa, ubona hasa neza rwose, abantu bahari barishimye baranezerewe.

Inyubako nziza ndende z'ikerekezo ubona zisukuye zifite amabara y'umweru n'ibirahure by'umukara ndetse indi ifite ibara rya orange ubona bisa neza imbere yaho hari ubusitani abantu bicayemo baratuje bameze neza, ndetse n'impande yabo hari inzira y'abanyamaguru ubona hari urujya n'uruza rw'abantu rwose.

Icyapa kigaragara neza, gifite amabara y'umutuku, ubururu, cyandikishije amagambo y'umweru n'umutuku. Inyuma yaho hari abantu bagiye batandukanye, bari mu nzu nziza rwose, ifite amarangi y'umweru n'umuhondo. N'ibirahure bisa neza.

Ikibuga gisa neza giciyemo imirongo ihagaze n'itambitse, hakurya yacyo hari akazu bigaraga karimo umugabo wunamye hirya inyuma y'akazu hari ibiti ubona bisa neza rwose biryoheye amaso.

Mu muhanda mwiza wa kaburimbo w'ibyerekezo bigiye bitandukanye hagati na hagati harimo ubwatsi bwiza butandukanye, ndetse ku mpande y'ubwatsi hari amabara y'umweru n'umukara, hakurya hari imikindo ifite amabara y'icyatsi, ifoto irasa neza rwose iryoheye amaso.

Igipangu cya senyenge imbere harimo igiti gifite amashami meza ndetse n'icyapa cya makumyabiri. Hirya yaho kandi hari inzira nyabagendwa harimo abantu bane muri iyo nzira, hirya yaho hari inzu isakaye neza muri make iyi foto irasa neza rwose iraryoshye.

Icyapa kibuza . Umuzenguruko ni umutuku ikirimo imbere ndani ni ubururu, ikirango n'umutuku kiri inyuma yacyo hari ibara' ry'umweru ubona rwose umweru dededede, icyo cyapa gihagaze neza rwose.

Icyapa cyo mu muhanda gitanga urumuri ariko kigaragaza ko ari abanyamaguru bagomba kwambuka ndetse impande yaho hari ipoto ya yindi iba ifite itara ricanira mu muhanda, inyuma yabyo hari ishyamba ubona rifite ibiti rwose bisa neza biracyari bishyashya birashishe.

Ikoranabuhanga ni ryiza ryakemuye byinshi ndetse ryatugejeje kuri byinshi mu iterambere, icyo ushatse gukora cyose iyo ugikoze oniliyini cyangwa se ukagikorera kuri mudasobwa uba wizeye ko byanga bikunda kizageraho kigomba kugaragara kandi kikagaragarira ku gihe kigasubizwa neza.

Icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira, kiri muri mpande eshatu, inyuma hari ibara ry'umweru, ndetse no hepfo hari ibara ry'umweru. Aho umunyamaguru ari kwambukira ni amabara y'umukara.

Icyapa kigaragaza ko hatemerewe kunyurwamo n'imodoka nini. Gifite ishusho w'umuzenguruko, imbere umweri, ndetse kirimo ari umukara. Abantu bari mu muhanda, bagiye batandukanye, bari kunyuranyuranamo ndetse n'ibinyabiziga byabo. Hakurya hari ishyamba ry'inzitane, irashishe, rifite amashami meza y'icyatsi kibisi.

Umuhanda nyabagendwa urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibintu, hari icyapa cy'umuvuduko wa mirongo itandatu, icyapa kizengurukijwe n'uruziga rutukura imbere ishusho n'umweru ikirimo ni umukara, impande y'icyo cyapa hari inzu nziza y'umuhondo ifite inzugi z'umweru, hejuru y'iyo nzu hari insinga z'amashanyarazi.

Icyapa cya mpandeshatu gifite umuzenguruko utukura, ubuso ni umuhondo ndetse ikirango kirimo ni umukara, inyuma yaho hari ibara ryiza ry'umweru ndetse no hasi hari ibara ry'umweru kirasa neza rwose.

Icyapa cy'umuzenguruko utukura imbere, ubuso n'umweru ikirimo, ikirango ni umukara ndetse inyuma y'icyapa hari ibara ry'umweru, hagati muri icyo cyapa harimo umurongo utukura.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara impande ye umusore uhetse igikapu cy'umutuku imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ushinzwe umutekano inyuma yabo inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi.

Icyapa cya mpandeshatu gifite umuzenguruko utukura ubuso burimo ni umweru ndetse ikirango kirimo ni umukara. Inyuma y'icyapa hariho irangi ry'umweru ndetse no munsi y'icyapa harimo irangi ry'umweru kirasa neza rwose.

Icyapa kigaragaza ko umuvuduko ari uwa mirongo itandatu. Ishusho yacyo ni umuzenguruko, ni umuzenguruko w'umutuku imbere ni ibara ry'umweru ibyanditsemo ni umukara, inyuma y'icyapa gifite ni bagarawundi y'umweru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo hakurya hari inkengero zawo zirimo icyapa ndetse hari n'ubusitani ubona busa neza rwose ibiti by'umukindo biryoshye byijimye bifite n'ibindi biti bifite amashami meza y'icyatsi ubona rwose ni natire nziza isa neza.

Icyapa kigaragaza ikerekezo gikomeza. Kizengurukijwe n'umuzenguruko w'ubururu, imbere harimo ubuso bw'ubururu, ikirango kirimo ni umweru. Inyuma y'icyapa ni umweru.

Icyapa cya mpande enye gifitemo ishusho ya mpande eshatu, kirimo ubuso bw'umweru, ikirango ari umukara. Icyo cyapa gifite ubuso bw'ubururu. Impande y'icyapa hari inzira nyabagendwa ya kaburimbo iriho ibinyabiziga ndetse n'impande z'umuhanda hari ibiti ubona bishishe bisa neza rwose biryoshye.

Ibyapa bya mpandeshatu bibiri byegeranye bifite imizenguruko itukura, ishusho y'umweru ndetse ikirimo ni umukara, hasi hari utwatsi dutoshye rwose dusa neza, imbere yaho hari umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, hakurya hari ibiti bisa neza by'icyatsi ubona biryoheye amaso.

Icyapa kigaragaza amasangano azengurutse, kiri mu mabara y'umuhondo, ndetse n'umukara. Inyuma y'cyapa hari igiti gifite amashami meza gitoshye, ndetse mu mababi y'ubururu. Hakurya ya kaburimbo hari inzu ifite amabara y'umweru isakaje amabati y'umutuku. Harasa neza rwose.

Inzu nziza cyane zitewe umucanga hino yazo hari igipangu cyubakishijwe amatafari meza ahiye, hino yaho kandi hari akapa kanditseho ngo i Remera nyuma yako kapa hari uduti tumeze nk'uturabyo dufite amashami meza y'amabara y'icyatsi.

Imodoka y'ibara ry'umukara itambuka mu muhanda, uruzitiro rugizwe n'ibyuma ndetse n'amatafari ahiye, umuferege unyuramo amazi wugarijwe cyangwa se ufunzwe

Inyubako nziza y'amacumbi ubona y'icyerekezo, irasa neza ni ndende mu mabara y'umweru, mu mabara y'umukara, imbere yaho hari ipoto y'amashanyarazi iriho n'itara ricana urumuri mu muhanda, hanze yiyo nyubako hari ubusitani ubona rwose bw'icyatsi bufite ibiti ubona bigisa neza bishyashya bitoshye.

Amabuye ashashe ndabonamo igiti, impande yaho hari imodoka, hirya yaho hari inzu nziza ifite amabara y'umweru, hirya yaho hari indi nzu isakaje amabati y'umutuku, ifite n'igipangu cy'umweru, harasa neza rwose.

Inyubako nziza cyane y'ikitegererezo, irageretse, isa neza, ifite igipangu cyiza cy'amatafari, kiriho amadirishya ndetse n'umuryango, irasaneza isakaje amabati atukura, ibirahure byiza bigezweho, amadirishya y'umukara, imbere yaho hari igiti mbona gisa neza rwose bigaragaza ko gifite ejo heza.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibyerekezo byombi, urimo ibinyabiziga bitandukanye ndabonamo zamoto, ndetse abazicayeho n'abazitwaye bambaye ingofero z'ubwirinzi. Hakurya yaho hari inzu nyinshi ubona ziteganye zisa neza zisakaje amabati atukura, ndetse n'andi yirabura, imbere yazo hari imikindo ibiri ubona itoshye isa neza rwose.

Inzu ikoreramo ubucuruzi icyuma gitunganya amata, intebe ya pulasitiki ameza etageri ndende irimo abajerekani y'umweru arambitse, ikarito n'amacupa y'amazi inkongoro hejuru.

Karitsiye nziza irimo amazu meza y'ibitangaza inzu ndikubona hari izisakaje amabati y'umukara, izisakaje ay'umutuku ndetse ndabonamo n'ibiti bigifite amashami meza bitoshye birasa neza ndetse n'inyuma y'ayo mazu hari ishyamba.

Inyubako y'amagorofa, k'inkuta z'iyo nyubakopa hariho icyapa cyanditseho sonorwa, ku marembo y'iyo nyubako hari ibinyabiziga biparitse kuhande rw'iburyo rw'iyo nyubako hari iyinindi nyubako y'amagorofa.

Inzu nziza iri m'ubusitani bwiza iburyo ibumoso ndetse n'inyuma hari ibiti birebire bihakikije byijimye bifatanye bifite amashami meza y'icyatsi, imbere y'iyo nzu hari ubusitani burimo pasiparumu z'icyatsi ndetse n'umukindo ahagana haruguru.

Umuhanda mwiza ushashemo amabuye hasi, hepfo na ruguru byawo hari inyubako ubona zisa neza ziryoheye amaso, inzu yo hepfo ishakaje amabati meza ndetse n'igipangu gisize amarangi meza, hejuru y'izo nzu hari amapoto y'amashanyarazi hariho insinga zigenda zinyuranyuranamo ndetse n'ipoto ishinzwe gutanga umuriro cyangwa urumuri ku umuhanda.

Inzu nziza cyane z'amabara agiye atandukanye, harimo izifite amatafari gusa iziteye karabasasu hakurya hari izisakaje amabati y'umutuku umukara isize amarangi y'umweru hagati no hagati harimo ibiti mubigaragara rwose birasa neza biraryoshye.

Icyapa kigaragaza umudugudu wa Remera kwa lando harimo amazu menshi meza atandukanye, ayo mazu kandi ari mu busitani bwiza ubona biryoheye amaso nkunze cyane hejuru hejuru ukuntu hari inzu nziza ubona igeretse akagera muri gatatu ikikijwe n'ibiti nabyo byiza bitandukanye, mbega ifoto nziza weee!

Inzu nziza iri munsi y'umuhanda, ndabona porotaye cyangwa urugo rw'icyatsi, n'urundi byegeranye rw'umukara ku irembo h'iyo nzu hari ubusitani bwiza ndetse n'imikindo iyo nzu isakajwe amabati meza meza cyane y'umutuku, hakurya hari izindi nzu ndetse ziri m'udushyamba, ubona rwose ko ziryoheye amaso.

Inzu nziza rwose zisa neza mu mabara y'umuhondo n'amarangi y'umweru impande yaho hari imikindo ubona ikiri mishyashya amashami meza yayo y'icyatsi ndetse hakurya y'iyo nzu hari ikigega cy'amazi kirekire rwose cyiza cy'umukara.

Kigali Kibagabaga hari inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitanu. Ikodeshwa mu madolari magana abiri na mirongo ine, mu gihe kingana n'ukwezi kumwe konyine.

Umuhanda wa kaburimbo inzira nyabagendwa, harimo ibinyabiziga bitandukanye, birimo bigenda hakurya yaho hari inzu nziza igeretse gatatu, ifite amabara meza y'icyatsi umweru urabona neza rwose ko biryoheye amaso.

Icyapa cyamamaza ikawa kiri mu ishusho ya mpande enye ndetse icyo cyapa cyandikishijeho amabara y'umweru, inyuma yacyo hari ibiti bifite amashami y'icyatsi ndetse biratoshye rwose.

amazu meza atandukanye afite amabara y'umukara, amabati y'ubururu, hakurya ndahabona ama etaje, inzu zigeretse, hirya y'ama etaje hari ibiti bifite amabara meza, iyi foto iragagara neza rwose.

Inyubako y'ubucuruzi ifite imiryango itandukanye hariho inzugi mu mabara y'umweru, ibyapa by'amabara y'ubururu hasi irafunguye hejuru hagaragara nkaho wagira ngo irafunze.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo imodoka y'umukara, hirya y'iyo modoka hari inzu nziza ubona igeretse ifite amabara y'umuhondo ndetse n'indi isakajwe amabati atukura, hino y'iyo modoka hari uruzitiro rw'amabuye ndetse impande yaho hashashe umucanga urabona ko rwose hasa neza.

Inzu ikoreramo ubucuruzi icyuma gitunganya amata, intebe ya pulasitiki ameza etageri ndende irimo abajerekani y'umweru arambitse, ikarito n'amacupa y'amazi inkongoro hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nziza y'umweru, irimo igenda ndetse urimo imirongo y'umukara n'iy'umweru. Impande y'umuhanda, hari ishyamba ubona risa neza ndetse hakurya hari n'itara ubona riri gucana. Hakurya yaho urabona hari ishyamba bisa nk'aho ryijimye rwose ndetse ririmo n'amazu atandukanye.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo imodoka zigenda zinyuranyuranamo izigenda n'izigaruka ndetse hariho n'utwaye ikinyabiziga cy'igare kiyambaye ingofero y'umuhondo impande za kaburimbo hari ibiti bishishe birebire bisa neza ndetse n'ibindi binyabiziga birebire bya rukururana biparitse. Haruguru hari inzu nziza y'icyerekezo isa neza rwose ifite amarangi y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ziri kugenda zinyuranyuranamo. Hagati na hagati hashizemo ipoto y'umuriro. Hakurya y'umuhanda hari ishyamba rigaragara rwose risa neza, ririmo ibiti byinshi byinzitane ubona biryoheye amaso.

Mu umuhanda wo ku kiraro, munsi hari kunyura imodoka zigenda zibisikana ndetse n'amamoto, hejuru hari ikiraro cyubakiye ubona rwose gisa neza, impande yaho hari igiti ubona gisa nk'ikibimye kireba mu muhanda.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo imodoka irimo igenda, hakurya y'imodoka hari abantu ubona bahagaze bari kuganira, inyuma yabo hari ishyamba ubona rishishe ritoshye neza rwose, inyuma yi'iryo shyamba hari imiturirwa miremire ubona ifite amabara y'umweru ndetse n'ibirahure bifunze.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, umwe uri hasi undi uri hejuru impande yaho hari amapave ndetse n'ibindi binyabiziga biparitse biriho abantu byicayemo, hakurya hari umukindo umeze neza, ndetse uteye ahantu ubona hari m'utwatsi twiza dutoshye dushishe impande mu mukindo hari icyapa kigaragaza guparika, kigaragaza ko nta muntu wemerewe kuhaparika.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, ndabonamo moto ndetse n'ikinyabiziga cy'amapine atatu, inyuma y'icyo kinyabiziga hari umutaka wa eyateri, inyuma yawo hari ishyamba ubona ry'inzitane rimeze neza, hakurya y'umuhanda hari amazu ubona ari ruguru rwose ndetse umwe muri yo ni umweru mwiza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye birigenda bibisikana hagati na hagati muri uwo muhanda harimo umurima uteyemo utwatsi twiza ndetse n'imikindo, hakurya y'umuhanda hari ishyamba ryinshi ryiza ririmo ibiti bigiye bitandukanye ndetse hakurya y'umuhanda hari amapoto y'amashanyarazi ndetse n'ibyapa byo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu bagiye batandukanye, ibinyabiziga bitandukanye byose biri munzira bigenda. Hagati rwagati mu muhanda harimo uturabyo ndetse n'igiti cy'umukindo gihagazemo hagati, hakurya yaho hari umugi ubona utoshye umeze neza, urubakitse amazu amwe n'amwe asakaje amabati y'ubururu n'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye imodoka, moto ndetse ibyo binyabiziga birimo biragenda, iburyo n'ibumoso bw'uwo muhanda hari ibiti ubona birebire ndetse n'ibindi bigufi ariko byose birashishe bifite amashami meza y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwawe n'abashoferi. Muri uwo muhanda, harimo umugabo uri kwambuka. Hirya yahooo, hashinze ipoto imurikira umuhanda, ndetse imbere harimo ibyatsi ndetse n'ibiti bifite amabara y'icyatsi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo muremure, hagati yawo harimo amapoto acanira umuriro hirya no hino, impande yaho hari inzu nziza ndende y'icyitegererezo igeretse kenshi, ndetse umuhanda ukikijwe n'ubusitani ubona busa neza bw'ibiti bishishe biryoheye amaso.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo ibibinyabiziga bigiye bitandukanye, impande yawo hari inzira y'abanyamaguru ndetse hari n'amapoto ariho amatara acanira umuhanda iyo bwije, iburyo n'ibumoso bw'uwo muhanda hari amashyamba ubona asa neza rwose ndetse inyuma yayo hari inyubako ifite amabati atukura.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, urimo igare ririho umuntu, arimo aragenda ndetse n'imbere mu wundi mukono harimo ibindi binyabiziga biri kugaruka. Munsi y'umuhanda hari ishyamba ubona risa neza riryoshye ndetse imbere yaho hari amapironi cyangwa se amapoto y'amashanyarazi, ariho insinga zigenda zinyuranyuranamo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo hagati rwagati hawo harimo ubusitani bwiza bukikijwe n'amarangi y'umukara n'umweru, hakurya hari imodoka ubona zihaparitse zisa neza ndetse iburyo bwawo hari uruzitiro rurerure ubona rwose ko rusa neza ruriho imikindo n'ubusitani impande yarwo.

Umuhanda w'igitaka ,mu nsi y'umuhanda hari ibyatsi, hari n'icyapa kiranga abagenzi, hari n'igiti gifite amashami n'amababi meza, imbere yaho hari inzu isakaje amabati, hari n'igipangu gifite umuryango mwiza, ruguru y'inzu haparitse n'imodoka ebyiri, ruguru yaho hari izindi nzu bibangikanyije.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo moto, imodoka, ndetse hagati na hagati harimo ubusitani bwiza ubona buteyemo indabyo, impande n'impande hari amapave ndetse n'ibiti ubona bitoshye bifite amashami meza.

Umuhanda w'igitaka iburyo bwawo n'ibumoso hari amazu agiye atandukanye. Ndahabona igipangu cy'amabara y'icyatsi ndetse iyo nzu isakaje amabati atukura. Hakurya y'umuhanda hari umukindo mwiza uri imbere y'igipangu cy'amatafari.

Umuhanda nyabagendwa w'umukara witwa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, hagati na hagati harimo ubwihugiko bw'abanyamaguru burimo indabyo zitandukanye hakurya imbere mu kuboko kw'iburyo hari inzu ubona y'umuhondo ndetse hakurya y'umuhanda hari ibyatsi ndetse n'ishyamba ubuna ry'inzitane.

Inzira nyabagendwa kaburimbo y'umukara irimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'inzira y'abanyamaguru hari umugabo ku ruhande witeguye kwambuka arimo arareba iburyo n'ibumoso ngo arebe ko ibinyabiziga bitamuhutaza, hagati na hagati mu muhanda harimo akajaride gateyemo utwatsi twiza, hakurya y'umuhanda hari ishyamba ubona risa neza rwose riryoheye amaso.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu batandukanye ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, hirya y'umuhanda hari icyapa kigaragaza ko hatemerewe kuparika, imbere hari ibiti bihagaze neza n'ibindi bihengamye bifite amashami y'icyatsi kibisi harasa neza rwose.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse hariho n'abanyamaguru aho bagenda bambukira. Parasa neza rwose hagati ndahabona icyapa kirimo amabara y'umweru ndetse na orange.

Moto ebyiri ziri mu muhanda zihetse abagenzi iy'inyuma itwaye umugabo ufite igikarito mu ntoki. Iy'imbere ifite utwaye igikapu mu mugongo ku ruhande yateye ubusitani n'imikindo.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye biri kugenda bibisikanamo binyuranamo, hakurya yaho hari ibiti bifite amashami meza rwose ashishe birasa neza hagati muri uwo muhanda harimo n'umukindo.

Umuhanda nyabagendwa, imodoka ziri kugenda zinyuranyuranamo. Hakurya y'umuhanda, hari inyubako y'amatafari isakaje amabati atukura. Impande y'uwo muhanda hari amapoto y'amashanyarazi afite insinga hejuru ziri kugenda zinyuranyuranamo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye byose biri kugenda. Impande yaho hari ikiziba cy'amazi. Iburyo n'ibumoso hakurya bwa kaburimbo hariho ibiti byinshi, ubona byiza bifite amashami meza, atoshye rwose.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, hakuno y'umuhanda hari amapave ubona ashahe neza, mu muhanda rwagati harimo imikindo ubona iryoheye amaso , hakurya y'umuhanda hari ishyamba, hakurya y'ishyamba hari amazu ubona ageretse asa neza rwose.

Kaburimbo irimo abagenzi n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hirya yaho hari inzira y'abanyamaguru ikoreshejwe amapave impande yaho hari ibiti byiza rwose birebire bifite amashami meza ndetse n'amabara agiye atandukanye, abari kuri ibyo ibinyabiziga bambaye kasike cyangwa se ingofero z'amabara y'umuhondo mu mutwe.